Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Abantu benshi bari mu nama imbere yabo bahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ifite indangururamajwi y'umukara, hari ari indabo amazi yo kunywa ndetse n'icyapa kibari imbere kinini kiriho abafatanyabikorwafa bafatanyije gutegura ibyo bikorwa.

Abantu benshi bari mu nama hagati yabo hateretsemo imeza zitetseho ibintu baje bitwaje, hari amazi bari kunywa, harimo amatelefone ndetse n'amasakoshi, hari n'umuntu umwe uri kubaganiriza, kubabwira ibikorwa irembo ikora.

Umunara muremure w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku, umweru, ukikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti n'ipoto, ku ruhande rigemura amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye.

Icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo dore uko wamenya umusoro ku nyungu wa bibiri na makumyabiri na gatatu ukoresheje telefone igendanwa. Harimo telefone ikanzwemo imibare , akanyenyeri maganani urwego. Ndetse n'andi magambo menshi yanditse ku ruhande ashobora kukuyobora ku buryo ushobora kwishyura umusoro ukoresheje telefone igendanwa.

Kiyosike ya emutiyeni irafunguye hari umukiriya uri gusaba serivisi, abantu baratambuka mu muhanda hagati y'amazu, hejuru hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu baturage.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Abantu bahagaze hamwe bari kureba mu materefone, umwe muri bo afashe igikoresho cyifashishwa mu gufata amashusho, bazengurutswe n'inzu ndetse n'umunara muremure bahagaze mu muhanda.

inyubako ifite yifitemo amazu menshi ipoto ndetse n'ipoto iriho insinga nyinshi zigemura amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye n'igipa n'icyapa cyanditseho umubare w'uwo mu wumuhanda bariho.

Abantu babiri bari ku kinyabiziga kigendesha amaguru abiri, umuntu umwe w'umushoferi ugitwaye yambaye ikirinda umutwe we ndetse n'umugenzi yambaye icyirinda umutwe we, bari kugenda mu muhanda utarimo imodoka nyinshi, urimo ibya ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye kandi byinshi.

Imodoka nini itwara abagenzi iri mu mabara y'umweru n'icyatsi, ikoresha imirasire y'izuba ndetse n'umuntu uri kugenda iruhande rwayo, wambaye imyenda y'umukara uri kuri telefone bose bari mu muhanda.

Imodoka nini yikorera ibintu iri mu muhanda isize amarange y'umweru, ifite ikintu k'inyuma cy'umuhondo ndetse n'umumotari uri hirya yabo bambaye amakasike bari kugenda mu muhanda.

Umuhanda urimo amagare, ndetse na moto n'imodoka ebyiri, urimo abantu benshi, urimo ibinyabiziga byinshi, ndetse ufite n'igikamyo giparitse ku ruhande rw'umuhanda rwo hirya, gisa icyatsi ndetse gifite n'umweru.

Ni inoti yakiye magana atanu yabaga ishushanyijeho abana batatu bari kureba mu ikayi, hasi handitse amafaranga magana atanu hejuru hanitse banki nasiyonari y'u Rwanda inyuma hashushanyijeho ingagi ziri mu byatsi nigiceri ndetse n'umukono.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitatu harimo ikinyabiziga gitwara abantu benshi kizwi nka bisi, harimo ikinkinyabiziga cya rukurura gitwara imizigo, ama kotineri hejuru, ndetse harimo n'ikinyabiziga cy'amaguru abiri gitwawe n'umuntu, kiriho umufuka umu ntu ari kugenda agisunika, ndetse harimo n'umugabo umwe ari kugenda ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda wenyine.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kiriho ibyatsi ndetse n'ipoto umuntu ashobora gutsindiraho, n'ubutaka hasi. Hirya hari umurima w'ibigori.

Umuhanda ugaragaza inzira abanyamaguru bagomba gucamo mugihe bari kwambuka umuhanda, igizwe n'uturongo twinshi tw'umweru, ndetse n'icyapa hirya, kigaragaza yuko abanyamaguru bagomba guhagarara, kirimo ibara ry'umutuku, kigaragaza ko imodoka ari zo zigomba kugenda, ariko muri uyu muhanda nta modoka n'imwe irimo.